Abanyeshuri bavuye kwiga ndetse munsi y'umuhanda bagendamo hari iriba, harimo akana kari kuvoma ndetse umuyeshuri mukuru ari kugafasha.

Abantu b'abagore n'abagabo, bicaye kumeza bayizengurutse, iruhande rwabo hari udusahani turiho ibikombe, ubona bamaze kunywa icyayi, bafite amakaye n'amakaramu ndetse hateretse n'icyuma hagati yabo ku meza.

Umugore n'umugabo bambaye neza, umwe yambaye ikoti undi ikanzu, hari n'undi mugore uteruye umwana ndetse n'abandi bana bari hafi yaho bafite urupapuro mu ntoki.

Urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, bafite icyapa cyanditseho umuryango ushinzwe kwita ku bana ndetse nabo bambaye impuzankano zisa n'ibiri kuri icyo cyapa.

Urubyiruko abasore n'abakobwa, bambaye impuzankano bafite uturango, bicaye ku mabuye abandi bahagaze hafi y'umuryango.

Umwana uvuye ku iriba, ahuye n'abayobozi bari kwigendera umwe afata ku kajerekani umwana yikoreye, undi aramufotora, hari abandi bahagaze inyuma yabo ndetse hafi yaho hari inyubako nini.

Abana bari ku ivomero, umwe ari kuvoma ndetse undi arimo kuzunguza icyuma kugira ngo amazi azamuke. Undi ategereje ko uwa mbere yuzuza ndetse hari umugabo uri kumanuka yegera umwana, kugira ngo amufashe.

Kwa muganga hari umubyeyi wazanye umwana kumuvuza ndetse umuganga ari kumutera urushinge, iruhande rwe hari n'undi muganga uri kumufasha, ku meza hari ikarito irimo ibikoresho byinshi.

Abana babiri bari gukaraba bakoresheje igikombe ndetse inyuma yabo hari igiti kinini, hari icyapa cyanditseho ko ari ikigo gishinzwe kwita ku burenganzira bw'umwana.

Umwana uri gukaraba intoki, akoresheje kandagira ukarabe. Ari iruhande rw'inyubako zitandukanye, ndetse harimo imwe yasenyutse, amatafari menshi ari hasi.

Inyubako ifite salle nini yicayemo abantu ibihumbi n'ibihumbi, imbere yabo hari akameza kariho amacupa atandukanye.

Abaganga ndetse n'abanyabuzima, bari gupima abana uburebure ngo bamenye uko bari gukura, niba bakora neza cyangwa basubiye inyuma kugira ngo bitabweho, hari abandi bantu benshi baje gupimisha abana.

Imodoka nini izwi ku izina rya rukururana, itwaye ibintu byinshi harimo ikirango kiriho ishaka ndetse kizengurutswe n'ururabyo.

Abana bambaye imipira y'ubururu, bafatanye ku rutugu, yanditseho ikigo mpuzamahanga gishinzwe kurengera abana ndetse bari iruhande rw'inzu, na yo ifite inzugi z'ubururu.

Abagore bari ku iriba baje kuvoma, bambaye udupfukamunwa, bari kunywa amazi ndetse iruhande rwabo hari injerekani ebyiri. Hafi aho hari ibiti byinshi bitandukanye.

Ihuriro ry'abagore n'abagabo bateraniye ahantu, bafite ibyapa bitandukanye, bigaragaza insanganyamatsiko bari kuganiraho, iruhande rwa buri wese hari icupa ry'amazi ndetse bafite n'udukapu turimo ibikoresho, harimo amakaye.

Ku nzira hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse hari umugore ufite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye afite ibishashi mu ntoki n'ibicupa kandi akaba yambaye imyenda y'inshocero.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hari moto n'imodoka, mu nzira y'abanyamaguru harimo umugabo w'ibisatsi byinshi ndetse wambaye inshwabari, biragaragara ko afite ubumuga bwo mu mutwe.

Ku nzira hari umugabo wambaye imyenda icikaguritse afite n'ibindi bintu utamenya ubwoko bwabyo mu ntoki, afite ikibazo cyo mu mutwe.

Inyubako nini irimo abagore n'abagabo bicaye ndetse ubona ko bakurikiye, habaye inama, iruhande ku rukuta hari televiziyo z'amashusho ndetse bose bateze amatwi.

Abantu batandukanye bitabiriye inama, bicaye imbere yabo hari amazi ikaye ndetse na telefone, bayobowe n'umugabo munini, ufite inda wambaye umupira w'umweru, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ngo twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, abakobwa n'abahungu bazamuye ikiganza. Iruhande rwabo hari ibendera ry'igihugu ndetse aho mu kigo hari ikibuga kinini bakiniramo umupira ndetse n'ibiti byinshi bihazengurutse.

Abantu babiri batwaye umurwayi mu maboko ndetse afite n'inkoni, bigaragara ko arembye cyane urebye n'ukuntu areba, hari abandi bari inyuma bari kumwitegereza ndetse iruhande rwabo hari umwana mutoya.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, bavuye mu nama. Bahagaze imbere y'inyubako barimo, inyuma yabo hari indabyo nyinshi zitandukanye ndetse bafite icyapa mu ntoki, kiriho insanganyamatsiko baganiragaho.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara menshi atandukanye n'ipantaro y'umukara. Ahuye n'ufite ubumuga bwo mu mutwe, wambaye imyenda yacikaguritse, afite umusatsi mwinshi, aramusuhuza.

Umugabo ubyibushye, yambaye umwitero w'ibara ry'umuhondo ndetse afite n'icumu mu ntoki, ku mutwe we hariho ingofero ikoze mu kintu kimeze nk'umupira, inyuma ye hari ibyatsi bigiye bitandukanye.

Abagore batatu bafite inkoni bose mu ntoki, umwe uri hagati yabo atereye umwana ndetse arimo no konka. Afite umufuka mu ntoki, abandi na bo bifashe mumayungunyugu, bari mu murima.

Abantu batandukanye bari muri sare baje mu nama, imbere yabo hari umuyobozi ufite ijambo, wambaye n'agapfukamunwa, ku meza ye hari icupa ry'amazi ndetse ari kwerekana ibintu biri ku kibaho.

Umugabo wambaye ubusa ku gice cyo hejuru, afite ubwanwa bwinshi ndetse n'akuma k'ubururu yashyize hagati mu menyo.

Umusore wambaye agapira ndetse n'ishati yo mu gitambaro cy'ikoboyi. Afite ubwanwa ndetse buconze neza n'agasatsi karinganiye.

Inzu isa neza ifite amarangi akeye ndetse n'amatara yaka cyane. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwa muganga, kandi harimo n'udutebe dutoya twifashishwa.

Abana bicaye imbere bambaye imipira y'icyatsi yanditseho ijambo tubiteho, hari abagabo bambaye udupfukamunwa n'imipira y'imyeru ndetse bambaye n'umwambaro wo mu ntoki, bari gukura amenyo umwe muri bo.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, intebe yegamirwa, ameza mato afite amapine, televiziyo iri hafi y'ibyo bindi ndetse hari n'ikindi kiri imbere y'intebe, bigaragaza ko ari ibyo bifashisha bapima umurwayi.

Icyumba kirimo abaganga batatu, bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa twabugenewe. Iruhande rwa bamwe muri abo bari kwandika bafite icupa ririmo umuti wica udukoko. Hari n'umurwayi waje kwivuza bari gupima mu kanwa.

Abantu bari mu nyubako, hamwe bacuruza ibiryo bihiye. Hari intebe, ameza ndetse kuri ayo meza hari amasahani ndetse n'ibikombe.

Inyubako nziza irimo intebe zigezweho, harimo umukecuru uzaniye umusaza amazi ndetse bishimye kandi banezerewe, imbere yabo hari imisego myinshi itandukanye.

Abagore bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'amajipo y'imikara, babiri muri bo nibo badafite iyo myenda bambaye isanzwe, bari kugenda babyina bafite utuntu mu ntoki, iruhande rwabo hari igiti.

Umusaza n'umugore, bari kureba muri telefone nini igezweho ndetse bari iruhande rw'ameza, inyuma yabo hari akabati n'insakazamashusho.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara umweru, ubururu, ari gukina igisoro, inka zimwe ni ikaki izindi ni umukara, ku rutoki rwe hariho uruhu rusa nk'uwahiye.

Umugore w'umuganga, ufite icyuma gipima umuvuduko w'amaraso, yacyambitse umusaza munini ku kuboko, ari kureba uko amaraso ye atera ndetse yicaye ku ntebe y'umweru.

Abaganga benshi bambaye impuzankano z'icyatsi n'udupfukamunwa, bamwe bambaye n'ibirahuri by'amaso, bafite insinga mu ntoki ndetse iruhande rwabo hari icyuma gicometseho ibisiga byinshi. Hakurya yabo ku rukuta hariho tereviziyo irimo amashusho.

Abagore n'abagabo bari mu cyumba ndetse harimo n'abana, baje gufata ibintu bitandukanye biri mu dukombe, bafite udufuka baje bitwaje.

Ihuriro ry'abantu b'ingeri zose, bateraniye mu nyubako nini cyane. Harimo indabyo imbere ku rubuga ndetse hari ababyinnyi bambaye imikenyero, biteye umwitero w'umweru ndetse bakenyeye uw'umutuku.

Umugore n'umugabo bambaye neza, umwe yambaye ikanzu ndetse afite n'ikimuranga uwo ari we n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ikoti ry'umukara ishati y'umweru.

Abagore babiri bambaye udupfukamunwa, umwe yicaye ku ntebe ndetse undi hari ikintu arimo aramukuriraho ku rutugu. Hari n'undi muntu uri hirya yabo, bigaragara ko bari kumuvura, afite uburwayi.

Abantu batandukanye bari mu nyubako, bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'udupfukamunwa, bahishe amasura, inyuma yabo, hari undi wambaye imyenda isanzwe.

Urubyiruko rw'abakobwa bambaye imipira y'imweru, bari mu nyubako ngari, bafite ishusho ikoze mu buryo bwa mpande enye bayishyize hejuru.

Inyubako nyinshi ziri kwa muganga, haparitse imodoka ndetse n'abantu bari kuhagana baje kwahasaba serivisi n'ibyapa bihari biri kubayobora n'imihanda myinshi yerekezayo.

Inyubako ifite imiryango ibiri yose icururizwamo imiti itandukanye ivura indwara nyinshi harimo abantu baje kuyigura ndetse hari na moto n'imodoka ihagaze mu rubavu rw'iyo nzu.

Inyubako nziza ifite agasongero keza ndetse hari n'ibyuma bigiye bitangiriye uko igenda yubakwa. iruhande rwayo hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'umutuku.

Inyubako nziza igeretse kabiri ikoze mu buryo bwa muviringu, iruhande rwayo hari indi nyubako nayo ndende igana mu rusengero, hari ibyatsi impande yazo ndetse n'ibiti bikeya.

Inyubako nziza ifite amarangi menshi, ikagira imiryango myinshi itandukanye ndetse iriho icyapa kigaragaza aho abaganga bakorera.

Abagore n'abagabo bambaye impuzankano ndetse ubona bicaye mu ntebe nziza ahantu muri sare nini, bakurikiye ibirimo kuhavugirwa imbere yabo.

Inyubako nziza ifite amarangi atandukanye ndetse hari abantu bahagaze imbere yayo, hari amatara n'icyuma gifata amashusho y'ibyabereye aho ngaho.

Inyubako nini iriho ibirahure, hari ibendera riri imbere yayo ndetse n'umuryango urimo umukindo. Hafi yaho, hari icyapa kigaragaza ko ari ibitaro byo kwa Nyirankwaya ndetse hari amatara azengurutse iyi nyubako.

Inyubako nini irimo ibikoresho byinshi bitandukanye ndetse n'ameza ateguye ariho igitambaro cy'ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse hari na televiziyo.

Inyubako ngari irimo intebe nyinshi z'imisego ndetse n'ameza azengurutswe n'utundi dutoya, ariko tureture tw'umukara. Noneho hafi y'aho hari umugore wambaye imyenda y'umukara.

Umuganga wambaye impuzankano, afite terefone nini mu ntoki n'icyuma gipima umuvuduko w'amaraso kiri ku bitugu, iruhande rwe hahagaze umugore wambaye ikanzu ufite ubwoba.

Inyubako igereretse kabiri, iri mu bitaro, yanditseho icyapa kigaragaza ikihakorerwa kiti, inzu y'ababyeyi n'impinja, iruhande rwayo hari imodoka nyinshi zihaparitse, ndetse n'abantu bake.

Inyubako nziza ifite amarangi atandukanye ndetse iruhande rwayo hari n'ubusitani bwiza, hari n'aho ibinyabiziga bihagarara. Harimo moto ndetse n'imodoka.

Inyubako ndende iriho amabendera atandukanye yanditseho ibitaro by'umwami Fayisari hari abantu benshi bari kuhagana baje kuhivuriza ndetse hari n'ibiti, indabyo n'ibindi byose by'ibyapa byerekana aho abantu berekeza.

Inyubako igereretse kabiri ndetse iyo hasi irimo abantu bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'umukara, hari abandi bari inyuma bahagaze ku muryango, harimo umugore uteruye mwana.

Abagabo bambaye ibisarobeti by'umweru n'udupfukamunwa, bari mu nyubako nini, irimo intebe, ibitanda ndetse n'abantu babiryamyeho, harimo n'inzitiramibu.

Inyubako nini yubatse mu buryo butangaje, iriho icyapa kigaragaza ko hari aho bavurira indwara zandura ndetse hari n'ibiti iruhande rwabyo, biri mu busitani.

Abarwayi bari kwa muganga, umwe yicaranye n'umuganga, agiye kumuvura afite icyuma mu ntoki, gipima uko umuvuduko w'amaraso ugenda ndetse umurwayi aragaragara nk'ufite ubwoba.

Inyubako irimo intebe ndetse n'ameza, igizwe n'ibirahuri byinshi mo imbere, yanditseho ko ari agace gakorerwamo ubushakashatsi.

Ahantu hari inyubako nini ndetse hari kuganayo abantu benshi cyane. Haparitse imodoka iruhande rwayo ndetse hari n'ubusitani bwiza, buteyemo ibiti.

Inyubako nziza ifite amarangi atandukanye, harimo umuhondo n'umweru ndetse hari n'amagambo yanditseho mu ibara ry'umukara, ifite ibirahure byiza bibonerana, hari n'intebe ziteretse hanze iruhande rw'umuryango.

Inzu nziza yasize amarangi abiri: umukara n'umweru ndetse n'icyapa kimanitse hejuru ku mabati, kiriho abana babiri. Iruhande rwayo hari amabendera abiri: iry'igihugu n'ikigo gishinzwe abana.

Abaganga babiri bambaye impuzankano y'akazi ndetse n'udupfukamunwa, bari mu cyumba kirimo imashini ndetse iruhande rwabo hari ibyuma bimeze nka ferabeto biri ku muryango.

Inyubako nini cyane irimo abantu bakeya bari kwaka serivisi, bicaye ahantu hari ibikoresho byubakiye muri iyo nyubako bitwara amashanyarazi byinjiza umuyaga mu nzu ndetse n'ibindi.

Umukobwa wambaye isengeri y'ubururu ndetse uzamuye akaboko, akagakoza inyuma mu kinyagihumbi ndetse akandi akaba agafatishije mu nkokora ari kwitegereza inyubako zitandukanye.

Umusore wicaye mu ntebe z'imisego zifite ibara ry'umweru, yambaye agapira k'amaboko magufi afashe agatambaro agashyira ku kuboko kwe.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo, ahagaze ku cyuma cy'umukara ndetse ari gukora siporo zimwe na zimwe zigorora umubiri. Iruhande rwe, hari indabyo.

Itsinda ry'abana b'urubyiruko bambaye impuzankano imeze kimwe, bari ahantu mu kibuga ndetse bakurikiwe n'abantu benshi baje kubareba hafi y'ahantu hateye insina.

Icyapa kiriho abantu benshi batandukanye ndetse hariho abakinnyi bakina imikino myinshi. Hari abakina umukino w'amaguru, uw'amaboko ndetse n'uzwi ku izina rya kiriketi.

Umugabo wambaye impuzankano y'abaganga, afite ingofero y'abamotari mu ntoki ndetse iruhande rwe, hari n'igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Ku nyubako y'ibitaro by'umwami Faisal, hari umugabo uhagaze ku rwego iruhande rwe hari abagabo bafite ikintu mu ntoki, kandi kuri iyo nyubako hari imikindo iruhande rwayo.

Umusore wicaye ku ntebe y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, afite agatambaro yashyize mu nkokora, bigaragaza ko yavunitse.

Umurwayi uryamye kwa muganga, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano y'akazi. Afite icyuma gipima umuvuduko w'amaraso mu ijosi ndetse ari kumukanda ku ivi.

Umukobwa ufite ikibazo mu ivi, hapfutseho ibipfukisho by'umweru, yicaye ku buriri. Bigaragara ko yavunitse akaba ari kwa muganga.

Umukinnyi wambaye impuzankano yabo yavunitse ari kwa muganga, umuganga arimo kumwitaho amupfuka ku kaguru k'iburyo yavunitseho.

Icyuma gifite umukondo, kiri mu mabara y'umukara n'umweru, gifite amapine. Kigaragaza ko umuntu afata mu mukondo, hanyuma akakigendesha.

Umusore yagiye kwa muganga. Yicaye ku katanda baryamishaho abarwayi ndetse hari umuganga urimo kumuzirikiraho aho yavunitse. Yambaye agashaneti mu ijosi.

Umurwayi uri kwa muganga afite akaguru kavunitse, kariho ibyuma. Iruhande rwe hahagaze abaganga babiri bambaye impuzankano ndetse hari n'abagabo babiri bambaye amakoti, bari imbere yabo.

Ku meza y'umukara hariho imbuto zitandukanye, twavugamo inanasi, ipapayi, amacunga, indimu ndetse n'imineke. Hakabaho imidari n'amasaro atandukanye.

Ububiko bw'ibikoresho bitandukanye, harimo amavuta ari mu macupa yabugenewe ndetse n'andi macupa ari mu kabati y'inzoga, handitseho ibyapa bigaragaza ubwoko bwayo.

Icyapa kigaragaza umuti ushobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru. Hariho icupa ririmo uwo muti, rifunze kandi ryanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza.

Ibyatsi by'amoko atandukanye, biri iruhande rw'agasekuru gatoya ndetse n'umuhini wako, ni nabyo byifashishwa mu kusya umuti.

Umugabo wambaye umupira ugizwe n'amabara ari ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, afite indabyo mu ntoki ndetse arimo arava imbere ku rubuga asa nk'usohoka ajya hanze.

Icyumba kirimo umugabo wicaye ku ntebe z'imikara ndetse iruhande rwe, hari n'icupa riteretse ku meza.

Ibicuruzwa byinshi bitandukanye bimwe bifunze mu dukarito twabugenewe, ibindi biri mu dukombe dutoya tw'icyuma ndetse hari n'ibiri mu macupa manini y'amavuta.

Icyapa kiri mu ibara rya oranje, gishushanyijeho icupa ry'umweru ririho uruyuki, handitseho amagambo agira ati ''amavuta meza iteka ryose.''

Icyapa kiriho umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'ubururu n'agasatsi karinganiye, iruhande rwe hari amacupa menshi atandukanye, arimo imiti itandukanye kuri buri wese.

Ingemwe ziri mu bihoho kandi ubona zimaze gukura, ziteretse ahantu hari imbuga nini ndetse hirya y'aho urahabona amazi.

Agakombe k'amabara atandukanye hariho amagambo menshi akanditseho, hariho n'ikirangantego kirimo igikeri mo imbere, munsi yacyo handitse ijambo ikawa.

Ikimera cy'umuravumba. Ni umuti uvura indwara nyinshi zo mu muhogo ndetse uryana cyane mu matwi iyo babaye umurwayi. Ariko ni cyo kimera kivura neza kurusha ibindi miti mu gihe urwaye cyane cyane mu mihogo.